Abagabo ndetse n'abagore b'abayobozi bakunze kwambara amakote ndetse n'inkweto z'ingozi, aho babyambara mu gihe bagiye gukorana inama n'abaturage kandi bakaba banitera imibavu ituma bahumura neza.

Muri gahunda yo kuba leta ya kwegerana n'abaturage, ikunze gukoresha inama, aho umuturage ashobora gutanga igitekerezo ke, cyangwa akaba yabaza ibibazo ku bintu adasobanukiwe.

Mu nama zigiye zitandukanye mu gihugu ukunze gusangamo abagabo ndetse n'abagore b'abanyamahanga, baba bazitabiriye kuba baganira kuri gahunda zigize zitandukanye baba bafite imbere mu gihugu.

Intebe za parasitiki zo mu mabara y'umweru, zimwe mu ntebe zikunze kwifashishwa mu nama z'abaturage, aho bazicaraho mu gihe barimo barahabwa ibiganiro kandi hakaba harimo n'abayobozi baba bambaye imyenda yanditseho igikorwa barimo.

Mu nama nyinshi zigiye zitandukanye cyangwa ibirori bitegurwa na leta ukunze gusanga biri mu nyubako nini zisanzuye, aho haba haririmo ameza ndetse n'intebe zifite imifariso, zifasha abitabiriye inama kutagira amavunane.

Mu nama zigiye zitandukanye zo hirya no hino mu gihugu, ukunze gusanga hari ibyapa inyuma yabo aho haba handitseho amagambo agaragaza ingingo yo kuribuganiraraho uwo munsi, ndetse hakaba hariho n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Umujyi wa Kigali ukunze guteranya abayobozi, bakaganira ku byatuma uwo mujyi ukomeza gutera imbere nk'uko imyaka iciyeho uba waragiye utera imbere bigaragarira ijisho.

Urubyiruko cyane cyane abari n'abategarugori, ukunze kubasanga mu bikorwa bigiye bitandukanye bya Leta, aho babaha inkunga zo kubateza imbere bakikura ahantu hamwe ku buryo bagirira akamaro igihugu.

Hirya no hino mu gihugu, hagiye hatandukanye, yaba mu tugari cyangwa imirenge, ukunze kuhasanga abaturage bagiye kwakayo serivisi zigiye zitandukanye cyangwa bakaba babateranyije mu manama agiye atandukanye.

Abagore bambaye imipira y'icyatsi bafite amatelefoni ndetse imbere yaho hari imitobe y'inyange ndetse n'amazi y'inyange byo kunywera muri iyo nama.

Umugore umanitse ukuboko yambaye rinete ndetse ari mu nama, aho bari kuganira ibintu bigiye bitandukanye, imbere ye hari amazi y'uruganda rw'inyange.

Uruganda rw'inyange ni rwo rukunze gutanga amazi, mu nama zigiye zitandukanye zihuza abayobozi cyangwa abaturage mu nteko zigiye zitandukanye, hirya no hino mu gihugu.

Mu biro bigiye bitandukanye by'inama ukunze gusangamo intebe nini z'umukara aho abayobozi bicara baba bambaye amakositimu kugirango base neza mu gihe bari mu nama.

Mu nama zigiye zitandukanye zihuza abaturage ndetse n'abayobozi, dukunze gusanga bifashishije ibitambaro by'amabara y'idarapo ry'u Rwanda, aribyo ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Umugabo wambaye ikositimu kivubu ndetse yiyogosheshe uruhara afite icyo arimo arabwira abantu kuri serivisi zitangwa na leta.

Urubyiruko ni imbaraga z'igihugu, bakunze guteranira mu nama zimwe na zimwe ziba zateguwe na leta mu rwego rwo kugira ngo bateze imbere igihugu cyabo.

Mu byumba biberamo inama, ukunze gusanga bateguye neza, kuburyo urimo aratanga imbwirwaruhame aba areba buri umwe wese uri muri icyo cyumba, kandi bakaba bicaye no ku ntebe zifite imifariso, bituma batabangamirwa mu gihe barimo barakurikirana ikiganiro.

Mu nama zigiye zitandukanye zihuza abayobozi, ukunze gusangamo amazi y'uruganda rw'inyange cyangwa imitobe y'urwo ruganda, aho abayobozi bayinywa mu gihe barimo baraganira ku bikorwa bimwe na bimwe bifitiye abaturage akamaro.

Mu masare aberamo inama zigiye zitandukanye hirya no hino mu gihugu dukunze gusangamo ameza manini ndetse n'intebe zicarwaho mu rwego rwo kugira ngo abantu baganire bisanzuye.

Abagabo n'abagore bo hirya no hino mu gihugu bakunze kwifatanya na leta mu bikorwa bitandukanye aho bakunze gusanga bambaye imyenda isa twavuga nk'abambara imipira y'ubururu yanditseho n'amagambo ajyanye n'ibikorwa barimo.

Guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda ukunze gusanga harimo abagabo n'abagore, aho bakunze gukora inama zigiye zitandukanye zivuga ku kuba bateza igihugu imbere cyangwa bakorera ibindi bikorwa igihugu byiza kandi bifitiye akamaro abato.

Ku biro bigiye bitandukanye cyangwa ku mazu manini akorerwamo inama, ukunze gusanga mu busitani bwaho nabwo babwifashisha mu gihe cy'inama aho abaturage bateranira bakaba bavuga ibibazo byabo.

Hirya no hino mu gihugu, ukunze kuhasanga amapikipiki ndetse n'imodoka zifite ibiziga by'umukara, aho zitwara abagenzi cyangwa zigatwara umuntu zimuvana ahantu hamwe zimujyana ahandi.

Irembo ni urubuga abaturage bakoresha bari gusaba serivisi zimwe na zimwe zitangwa na leta yaba izubutaka cyangwa iz'ubucuruzi cyiciro cyose ushobora kugisanga ku irembo ryobarizwa muri serivisi zayo.

Hirya no hino mu gihugu ukunze kuhasanga ibiro bitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye, yaba iz'irembo cyangwa iz'amabanki, aho ushobora no kujya ukaba wakwaka itike y'indege mu gihe ukeneye kujya mu bihugu bya manyamahanga.

Mu rwego rwo kwegereza amakuru abaturage kugira ngo bayamenyere ku gihe, leta yashyizeho imbuga zifasha abaturage kuba bamenya amakuru agiye atandukanye, twavuga nk'amakuru y'ibyorezo bigiye bitandukanye ndetse n'andi makuru yifashishwa mu buzima bwa buri munsi bw'abaturage.

Urwego rw'igihugu rwa Aragibi rukunze gushyira ibikorwa byarwo kuri murandasi mu rwego rwo kugira ngo umuturage ubikeneye ashobore kubisanga kuri telefoni cyangwa imashini ashobora kuba ari gukoresha.

Guverinoma ikunze gushyiraho uburyo bugiye butandukanye bwo kuba bafata abakozi bashyashya, aho bafata amatangazo bakayashyira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, bakaba bashyiraho imyanya bakeneye y'abakozi, bakaba bayisangamo cyangwa bagashyiraho ibindi bintu leta iteganya gukora.

Mu rwego rwo korohereza abaturage kuba babona serivisi za leta batavuye aho bari, leta yashyizeho imbuga zigiye zitandukanye aho ushobora gusanga serivisi za leta yaba nko kwishyura amazi cyangwa ukaba wasaba izindi serivisi utiriwe uva mu rugo iwawe.

Ku mihanda hirya no hino mu gihugu ukunze gusangaho amapoto ajyana amashanyarazi mu ngo zige zitandukanye kandi unahasanga amatara yifashishwa mu ijoro kugira ngo habone ndetse n'ibyapa biburira abashoferi.

Ku mihanda yo mu gihugu cy'u Rwanda ukunze gusanga ku mpande yayo hariho aho umuntu ashobora kujugunya imyanda mu rwego rwo kubahiriza isuku mu mijyi igiye itandukanye hirya no hino mu gihugu.

Hari iminara igiye itandukanye iba ifashishwa mu kwikorera insinga ziba zifite amashanyarazi menshi cyane, aho zifashishwa mu gusakaza amashanyarazi hirya no hino mu gihugu, amashanyarazi akagera kuri buri muturage kandi anafite ingufu nyinshi.

Ku mihanda igiye itandukanye hirya no hino mu gihugu, ukunze gusangaho amapoto asakaza amashanyarazi mu baturage, aho bayasanga amanitseho insinga z'umukara zifashishwa mu kuba zasakaza ayo mashanyarazi.

Mu mihanda igiye itandukanye yo mu Rwanda cyangwa ku musozi ukunze kuhasanga iminara miremire icaho insinga z'amashanyarazi, cyangwa izindi nsinga zifashishwa muri interineti.

Amapoto manini akunze kwitwa amapironi ukunze gusanga aho insinga zigemurira umuriro ahantu hanini, aho ukunze gusangaho n'utundi dutsinga dutoya tuba twohereza internete cyangwa ibirinda ayo mafoto kuba yakwangirika.

Umunara muremure ukozwe mu byuma, ukanasangamo ibindi biba bigiye bisukiranye kugira ngo umunara ube ukomeye wifashishwa mu kuba wasakaza amashanyarazi hirya no hino mu baturage.

Ipoto rirerire ririho insinga z'umukara ndetse n'utubogisi turi mu ibara ry'ikijuju, aho bari kunyura insinga zitwara amashanyarazi.

Mu rwego rwo gutuma abaturage bakomeza kubona amashanyarazi, adacikagurika, government ndetse n'ibigo bigiye bitandukanye bifatanya na leta mu gushishikariza abaturage gukoresha amashanyarazi. Bafite abakozi bita ku nsinga zabo kugira ngo amashanyarazi atazongera kubura.

Ku mazu menshi cyangwa mu bitaro ukunze kubasanga aho imodoka ziparika ari nyinshi, mu rwego rwo gutanga serivise inoze.

Leta yashyizeho uburyo bwo kubaka amashuri hirya no hino mu gihugu, aho umunyeshuri ashobora kujya kwiga adakoze urugendo runini ugereranyije n'abize imbere....

Mu mazu menshi agiye atandukanye hirya no hino ahatangirwa serivisi za leta ukunze kubhasanga udutebe hanze aho abantu bicara bategereza kuba bahabwa serivisi baje gushaka muri ibyo biro.

Ku mihanda igiye itandukanye, ukunze kuhasangaho aba sekirite baba barinze ibipangu, cyangwa ibigo bimwe na bimwe, bikorerwamo na leta cyangwa byigwamo n'abanyeshuri batoya cyangwa abakuru.

Imihanda yo hirya mu gihugu ukunze kuhasanga isuku nkuko guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda yabyiyemeje, ko nta muntu uzigera ugaragara mu muhanda ukaba uhasanga isuku idasanzwe.

Hirya no hino mu gihugu ukunze kuhasanga ibitaro bigiye bitandukanye yaba iby'indwara zo mu mutwe cyangwa indwara zisanzwe, abantu bashobora kujya kwivuza, twavuga nka marariya cyangwa izindi.

Leta y'igihugu cy'u Rwanda yashyizeho uburyo bwo kuba wagorora abantu bakoze ibyaha yaba abagore cyangwa abagabo, aho bajya kubahanira ibyaha byabo bakaba babigisha indangagaciro zikwiriye umunyarwanda.

Mu rwego rwo kurwanya ibyaha leta iba yaragiye ishyiraho amagereza agiye atandukanye hirya no hino mu gihugu, nk'urugero twavuga nk'igororero rya Rwamagana, aho ishyirwamo imfungwa kugira ngo zigororwe ku byaha zakoze.

Umugabo wiyogoshesheje uruhara uri kureba imbere abumbye umunwa yambaye ikanzu y'umutuku irimo akabara k'umweru hagati zikunze kwifashishwa mu manza.

Ama guverinoma menshi yo ku isi, akunze kuba afite abavugizi, aho bashobora kuba bajya ku mateleviziyo kuba bavuga ibibazo baba bari kubaza igihugu cyabo, bakaba babisobanuraho.

Guverinoma ifite uburyo yerekanamo amategeko cyangwa amabwiriza ku buryo umuturage ashobora kugenda akayasoma, akaba yasobanukirwa ku byo leta imuteganyiriza kumukorera.

Abagabo cyangwa abantu bakora mu nzego z'ubutabera, bakunze kwambara amakanzu agaragara mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, aho bayambara mu gihe bagiye mu rukiko.

Abagororwa bakunze kwambara imyenda y'iroza kandi bakaba babafata bakabajyana mu nkiko z'abaturage, kugira ngo bavuge ibyaha bakoze banabisabire imbabazi, ku buryo nibagaruka muri sosiyete bazayikora.

Hirya no hino mu magereza agiye atandukanye yo mu gihugu, ukunze gusangamo abagororwa bambaye imyenda y'amaroza n'abambaye imyenda y'imihondo, aho baba bari mu bikorwa byabo byo mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Mu magororero agiye atandukanye hirya no hino mu gihugu, ukunze gusanga abagororwa bambaye imyenda iri mu ibara ry'iroza, bakaba banasa neza bogoshe ku mitwe yabo imisatsi ntayiriho, kandi bakaba bemerewe no gusurwa n'imiryango imwe.

Urwego rwa polisi, urwego rwo kugira ngo bahe umutekano urambye abaturage, bakunze gukora inama hagati yabo aho baganiramo ku buryo bashobora kurindira umutekano abaturage.

Mu rwego rwo kwirinda inkongi polisi y'u Rwanda yifashishije ibikoresho baguze bifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro. ni bamwe mu bafatanyabikorwa beza babaturage mu gihe inkongi y'umuriro ibaye baraza bakayizimya kandi.

Mu rwego rwo kwirinda inkongi, hirya no hino mu mazu manini, ukunze kuhasangaho ibicupa byifashishwa mu kuba byazimya inkongi y'umuriro mu gihe yaba yateye.

Ishami rya polisi mu Rwanda riba rifite amapikipiki manini abafasha kuba bakwiruka ku bakoze ibyaha ndetse babafasha no mu kazi kabo ka buri munsi abavana ahantu hamwe.

Urwego rwa polisi ikorera mu muhanda ukunze gusanga rugendera mu modoka nziza, aho ziba ziri mu ibara ry'umweru, hejuru hariho n'amatara agenda yaka nk'umutuku ndetse n'ubururu.

Nyakubahwa perezida Paul Kagame ni inshuti y'abanyarwanda, akunze kubegera, akaba yajya kubasura bakamubwira ibibazo bafite, akaba yabibakemurira, n'ibidakemutse akabwira abayobozi babo bakabibakemurira mu iminsi itarenze n'icyumweru.

Mu rwego rwo kubahiriza demokarasi, hirya no hino mu gihugu habaha amatora, aho abaturage bitorera umuyobozi bashaka kandi bifuza ko bazabayobora urwego rwo kugira ngo batere imbere.

Guverinoma y'igihugu cy’u Rwanda ikunze guteranya abaturage ahantu hanini ndetse bakazana n'abayobozi babo mu kuba bababaza ibibazo ndetse bakabasobanurira.

Umuryango wa FPR Inkotanyi ufite idarapo ririmo amabara atatu atandukanye: umutuku, umweru n'ubururu, ukaba uhagarariwe n'umukuru w'Igihugu Perezida Paul kagame ukunze kwifatanya n'abaturage mu bikorwa bigiye bitandukanye.

Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, akunze kwifashisha mikoro mu gihe aba arimo arabwira abaturage ibikorwa bibateganyirijwe ndetse n'ibyagezweho, no mu gihe ari kubawuhumuriza.

Amodoka manini atwara abantu, abajyana mu kazi cyangwa mu bindi bikorwa baba bagiyemo, ukunze kuyasanga mu magare yubatswe na leta, aho umuturage ayahasanga akaba yatega akajya mu kazi kiwe cyangwa mu bindi bikorwa.

Uruganda rwa simerwa ni imwe mu nganda zikunze gutunganya amabeto ndetse na sima, aho babishyira mu bimodoka binini, bikaba byabijyana ahantu umuntu wabitumije aherereye.

Ku mihanda hijya no hino mu gihugu uhasanga ibiti bitanga umwuka mwiza aho mu gihugu hashyizweho gahunda yo guhinga ibiti by'icyatsi aho ibyo biti bitanga umwuka mwiza kurusha iby'ayandidi mabara.

Mu mijyi igiye itandukanye hirya no hino mu gihugu ukunze gusangamo aho leta yagiye igeza amashanyarazi, aho buri muturage ashobora gucana inzu y'iwe mu matara yaba asa umuhondo cyangwa umweru ku buryo abyifuza.

Hirya no hino mu gihugu ukunze kuhasanga urujya n'uruza rujya mu magare y'amamodoka aho baba bagiye gutega bava mu kazi cyangwa barimo bakajyamo n'abandi baba bagiye mu zindi serivisi ziba zigiye zitandukanye.

Hirya no hino mu mihanda yo mu gihugu ukunze kuhasanga ibiti biri hirya y'umuhanda aho biba byarashyizweho kugira ngo bizajye bitanga akayaga kandi hanagaragare neza.

Imodoka y'igikamyo yikoreye amamatora ari mu mabara agiye atandukanye shokora, umutuku, umweru ndetse hariho n'igishitingi hejuru y'izo matora, hino harimo haracaho ipikipiki y'amapine atatu.

Mu rwego rwo kwihutisha akazi k'abantu leta yashyizeho ibigo bigiye gutandukanye bikorana nayo, aho bitwara abantu mu kazi cyangwa bikaba byabatwara ahantu hamwe bibajyana ahandi bihutisha kugira ngo akazi kabo kadapfa.

Ibikamyo ni zimwe mu modoka zitwarwa n'abantu benshi, mu rwego rwo kugira ngo biteze imbere cyangwa kugira ngo batware ibikoresho byabo byinshi, kuko igikamyo cyikorera ibintu byinshi ugereranyije n'izindi modoka zo munsi yayo.

Hirya no hino mu mihanda ukunze kuhasanga amapikipiki ndetse n'imodoka zitwara abagenzi cyane cyane ukanahasanga ibiti ku mpande y'umuhanda bitanga akayaga.

Mu mihanda yo hirya no hino mu gihugu, ukunze gusangamo abamotari baba bambaye amakasike y'umutuku cyangwa ay'imihondo. Bakaba banambaye amajiri bahabwa n'umurongo wa mtn. Kandi banasangamo amamodoka atwara abantu abavana ahantu hamwe abajyana ahandi.

Mu masaha y'ijoro mu mihanda igiye itandukanye hirya no hino mu gihugu, ukunze gusanga harimo amatara yaka kugira ngo umuntu abe abona nubwo aba ari mu ijoro kandi agende afite umutekano.

Mu rwego rwo kwirinda umwanda, leta yagiye itegeka abantu bafite ibibanza birimo birakorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye by'ubwubatsi, gushyiraho ibitambaro byabugenewe ku mihanda; kugira ngo badateza umwanda umuhanda kandi hagaragare umwuka mwiza.

Mu rwego rwo gushyigikira siporo, igihugu cyashyizeho ibibuga hirya no hino, aho abantu bashobora kujya bakaba bakorera siporo, yaba iz'umupira w'amaguru cyangwa iz'umupira, wifashishwa hakoreshejwe amaboko.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu kizengurutswe n'iry'umweru hakaba n'igikoze mu nyuguti ya pa harimo ibara ry'umweru ryifashishwa ahantu haparika imodoka.

Hari ibyapa bigenda bibwira umshoferi ko akomeza imbere cyangwa hari uduhanda tugiye dushamikiye ku muhanda arimo aragendaho, biba byarashyizweho na guverinoma kugira ngo borohereze umushoferi kumenya agace agezemo, imihanda yako uko iteye.

Ibyapa biburira abashoferi ukunze kubisanga hirya no hino mu gihugu, aho guverinoma ibishyira kugira ngo umushoferi nabona icyapa amenye icyo umuhanda uri imbere usobanuye.

Mu buryo bwo gutuma abaturage bishima leta yashyizeho ibikorwa by'imyidagaduro bishobora kubahuriza hamwe kandi bakaba bajya kubyitabira nta kiguzi batanze aho batuye badakoze n'urugendo.

Mu mihanda myinshi hirya no hino mugihugu, usangamo ibyapa biburira abashoferi, aho bibabwira umuvuduko ugenderaho, yaba ari mwinshi cyangwa bakaba ba wugabanya kugira ngo badakora impanuka mu mihanda.

Mu mihanda igiye itandukanye hirya no hino ku isi, uhasanga ibyapa aho biba bitegeka cyangwa bikabuza umushoferi kuba yakata cyangwa yanyura mu mihanda itemewe muri uwo muhanda arimo aracamo.

Hari ibikoresho byifashishwa mu bwubatsi, twavuga nk'ingofero irinda umuntu kuba yakomereka mu mutwe cyangwa ibyapa biburira abantu, bibabwira y'uko aho ahantu harimo harakorerwa ubwubatsi ko nta kinyabiziga wenda cyemerewe kuhanyura.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo kizengurutswe n'irindi ry'umukara, harimo n'irindi bara ry'umukara rikozwe mu nyuguti ya "t".

Icyapa cya mpande eshatu kiri mu ibara ry'umutuku, gifite ubuso bw'umuhondo ndetse n'utwambi tubiri aho umwambi umwe ureba hejuru undi ukareba hasi.

Nk'uko ibihugu bigiye bitandukanye, bifata abaturage babo bikabagira inama y'uburyo bakubaka na guverinoma y'igihugu cyacu cy'u Rwanda yashyizeho uburyo bugiye butandukanye bwo gusobanurira abaturage, kubaka inyubako kandi zibereye, ku buryo zigira igihugu cyiza.

Mu rwego rwo kwegereza abaturage ibikorwaremezo guverinoma iba yarafashe inyubako zigiye zitandukanye bazishyiramo abaturage kugira ngo biteze imbere bateze imbere imiryango yabo.

inzu nini yubatswe mu matafari ahiye, hagiye hasizemo amarangi y'umweru, ifite igipangu cyubatswe n'urukuta rw'amabuye ndetse n'urundi rusize amarangi hirya no hino ku nkota.

Ibiti by'imikindo ukunze kubisanga hirya no hino mu gihugu, aho byifashishwa mu kugira ngo ahantu hase neza kandi biba bifite agaciro kari hejuru, ku buryo umuntu ubonye icyo giti ahita amenya ko aho hantu hari ibikorwaremezo bigiye bitandukanye.

Ku mihanda yo hirya no hino yubatswe na guverinoma ukunze gusanga aho ku mpande y'aho hari amazu akorerwamo n'ibikorwa bigiye bitandukanye, twavuga nk'amakusanyirizo y'amata, cyangwa ahacururizwa imiti mu gihe umuntu ugiye urwaye akaba yajya kuyihagurira.

Hirya no hino mu gihugu, ukunze gusangamo inyubako nziza zituwemo n'Abanyarwanda, aho ziba zubatswe mu buryo bugezweho, aribwo Leta iba yarashyizeho kugira ngo abaturage bazabukurikize imyaka iri imbere cyangwa izaza.

Amazu menshi ari hirya hino no hino akorerwamo n'amakampaniyi mani, ukunze gusanga afite ibirahure bihenze biba biri mu ibara ry'ubururu, asize n'amarangi inyuma ndetse harihoho n'ibyapa bigaragaza ibikorwa byabo.

Hari uduce tugiye dutandukanye turi hirya no hino mu gihugu, aho usanga harimo amazu y'utujagari afite amabati ashaje, ku buryo ushobora kuyabona ukikanga bitewe n'umwanda w'ayo mabati.

Mu mihanda yo hirya no hino gihugu ukunze gusanga ku mpande y'iyo mihanda hubatswe amazu agezweho y'amataje, kandi muri iyo mihanda hakaba hanyuramo imodoka zifite isuku nkuko guverinoma y'u Rwanda ishishikariza abaturage.

Mu makaritsiye agiye atandukanye ukunze kuhasanga imihanda yakozwe na leta cyangwa abaturage, ukanahasanga n'amazu asize amarangi anasakaye neza mu buryo bugezweho.

Mu mihanda igiye itandukanye hirya no hino mu gihugu ukunze gusangaho imirongo igiye itambitse yo mu ibara ry'umweru, aho ngaho aba ari ahagenewe abanyamaguru mu kuba bakwambukiranya imihanda.

Umuhanda w'umukara, ufite ku ruhande aho abagenzi banyura, mo hagati hagiye harimo amakorosi aho imodoka zinyura, harimo n'imodoka y'ibara y'ubururu.

Umuhanda w'umukara ugiye uciyemo imirongo y'umweru y'aho abanyamaguru banyura, hariho amatara ku ruhande ndetse n'ibiti by'icyatsi, harimo n'ibyapa mu mihanda.

Mu mihanda igiye itandukanye hirya no hino mu gihugu, ukunze gusangamo abanyonzi aho baba batwara abagenzi ku magare babavana ahantu hamwe bahajyana ahandi. Kandi n'iyo yaba ari mu masaha y'ijoro, bakora ako kazi kubera amatara abari ku mihanda.

Mu rwego rwo kongera ubukomere bw'ibiraro guverinoma y'u Rwanda yashyizeho uburyo bwo kubaka ibiraro nk'aho bigaragara nk'ibyo mu mahanga bikaba bikomeye mu mihanda ku buryo imodoka yanyuraho uko yaba iremereye kose ntakintu icyiraro cyaba.

Mu mihanda hirya no hino mu gihugu dukunze gusangamo haciyemo imirongo y'umweru, yifashishwa n'abanyamaguru mu gihe bagiye kwambuka, kandi ukanasangamo n'urujya n'uruza rw'amamodoka ndetse n'amapikipiki.